Agapapuro gashushanyijeho inka ebyiri, gabwa inka imwe n'inzungu ifite amabara y'umweru n'ay'umukara, iri kureba imbere indi nayo ni ubwoko bw'inzungu ariko bufite amabara ajya gusa ikigina ndetse n'umweru, nta mahembe zifite zose.

Umugabo wambaye ga yambaye ningofero, ari gukora mu byatsi, ameze nkuri gutera igiti, yambaye ishati y'umweru yamaboko maremare, n'ipantaro y'umukara impandeye hari ibyatsi byinshi bitandukanye.

Pepennyeri y'ibiti bitoya biri mu mashashi, bigeze igihe cyo guterwa, yubakiye neza hejuru harasakaye ku mpande ntabwo izitiye, imbere yiyi pepenyeri hari akantu kameze nk'imbuga bisa neza nkaho ari akayira, hirya yayo hari ibiti birebire binyunyutse bito bito.

Ibiti by'ibigori bifite ibigori byumiyeho bifite ibibabi bisa icyatsi, byatangiye ku ibara ry'umuhondo kubera kuma imisatsi y'ibigori nayo yarumye.

Ikirere kijimye kirimo ibicu, munsi yacyo hari inyanja, inyanja ikikijwe n'utwatsi ndetse n'ibimera bimeze nk'amasaka.

Abantu bari ahantu hameze nk'ikibuga, batonze umurongo nk'abari guhinga. Bamwe bambaye imyenda y'umuhondo, abandi bambaye iy'igitare ndetse n'ubururu, ndetse n'umutuku.

Umusaza uri hagati mu ndabo. indabo zisa amabara atandukanye umuhondo, umutuku, iroza ndetse n'izindi zidafite uturabo tutaratunguka, ameze nk'ufite isuka yambaye ishati y'umweru.

Umugabo ufashe ku nka, undi arunamye ameze nk'uri kuyibaga, inka iraryamye imeze nk'iyapfuye, undi arahagaze, bose bari kureba ku nka, inka ifite amabara y'umukara n'umweru.

Intare zunamye ziri kunywa amazi, imwe yanyujuje ijosi hejuru y'indi, izindi zirunamye zashinze iminwa mu mazi.